Amashuri y'inshuke aba ashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye kuko abanyeshuri iyo bari kureba ibyo bishushanyo bituma bakanguka mu bwonko, bakagira amasomo amwe n' amwe batsinda neza.

Iyo ugeze ku mashuri y'inshuke usanga inyuma y'amashuri hashushanyije ibishushanyo bitandukanye, ibyo bishushanyo bifasha abana kumenya ibihashushanyije ndetse kandi bigakangura ubwenge bw'abana aho bakunda kwiga cyane iyo bari kureba imfashanyigisho iba ishushanyije aho ku mashuri.

Abana bari hagati y'imyaka ibiri ndetse n'itatu baba biga mu mashuri y'inshuke, ayo mashuri agomba kuba afite umukeka wagutse kugira ngo baze kuwicaraho bari kugirwa inama n'abarezi babo.

Ibipupe, utumodoka ,utumoto ndetse n'ibindi bikinisho by'abana bikangura ubwonko bw'umwana dore yuko iyo ari kubikinisha aba yishimye kandi bikamwagura mu bwenge, akareba uburyo byakozwe akumva nawe yabikora.

Imfashanyigisho zigira uruhare rukomeye cyane iyo uri kwigisha abanyeshuri biga mu nshuke. Mbere y'uko urugero niba ugiye kwigisha inka ugomba kugenda wayishushanyije cyangwa se ufite igipupe cyayo kugira ngo abanyeshuri uyibabwire bari no kuyireba. Bibafasha kuyimenya neza bakamenya ibyo bize.

Abarimu bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n' abanza mbere yuko bajya mu masomo ya mu gitondo babanza guhurira mu kibuga bakajya ku murongo, bakaririmba indirimbo yubahiriza Igihugu cy'u Rwanda.

Ibyapa bifasha abantu kumenya aho baba bageze, cyane cyane abantu baba basanzwe batari bazi aho hantu, birabarangira bakamenya aho bagomba kunyura kugira ngo bagere aho bagiye amahoro.

Mu mashuri y'inshuke usanga abanyeshuri bahiga baba bari hagati y'imyaka itatu ndetse n'itandatu, bagakunda kwambara rero impuzankano kugira ngo batandukane n'abandi bari hanze batari bajya mu ishuri.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda kwishima cyane iyo bari ku by'icungo, niyo mpamvu usanga hafi y'ishuri ry'inshuke hagomba kuba hari ibyicungo, abana mu gihe cy'akaruhuko bakabijyaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, biga neza cyane iyo bari kubona ibipope. Niyo mpamvu uzasanga ku mashuri yabo akenshi haba hashushanyije ndetse hari n'ibikinisho byinshi abana bakinisha iyo bari kuruhuka.

Ibikinisho ndetse n'izindi mfashanyigisho zitandukanye zikunda gukoreshwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, kuko ibi ngibi bikurura ubudahangarwa bw'abanyeshuri mu kwiga bigatuma batsinda amasomo yabo neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke baba bafite uburyo bwihariye bicaramo mu ishuri, aho bicara bazengurutse ameza cyangwa se bicara ku ruziga, ibi ngibi bifasha mwarimu kugenzura ishuri rye, akamenya usakuza ndetse no kwita kuri buri munyeshuri uko bikwiye.

Ibyicungo, ibikinisho by'abana ndetse n'ibindi bikoresho abana bishimiraho, bigomba kuba biri ku kigo cy'abana b'inshuke kugira ngo abanyeshuri nibajya mu karuhuko ka saa yine, baze kubyicungaho bishime bajye mu masomo bafite akanyamuneza.

Imfashanyigisho zikoreshwa iyo abana bari kwiga imibare, bari kwiga inyuguti ndetse n'andi masomo atandukanye nko kubara isaha naho izo nyuguti baba bazireba neza bakanazikoraho.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke agomba kuba afite imfashanyigisho nziza kandi nyinshi zinagaragara, ziganjemo n'ibikinisho by'abana kugira ngo abana mu gihe cyo kuruhuka bajye gukinisha ibyo bikinisho byabo.

Mu mashuri abanza hakoreshwa ibibaho by'umukara bakabyandikishaho ingwa iyo bari kwiga, ibi ngibi bifasha abanyeshuri cyane kuko iyo banditseho ibintu bitari byo barabisiba bakandikaho ibindi biri byo.

Ibiziga byo gucunga ndetse n'imipira y'amaguru yo gukina bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ubwo iyo bagiye mu karuhuko ka saa yine bahita babikina.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bagomba kuba bafite ibikoresho bakoresha bari gushushanya ibinyampande. Muri ibyo ngibyo twavugamo nk'amarati ndetse n'incaruziga n'ibindi bikoresho bakoresha bari gushushanya.

Ibikinisho ndetse n'imfashanyigisho, bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Cyane cyane iyo bari kwiga kubara, haba hari ibikinisho ndetse n'imfashanyigisho bareberaho kugira ngo bamenye kubara neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke usanga amashuri yabo aba afite ibikoresho bitandukanye cyane ko biba bikenerwa n'abanyeshuri kugira ngo bige neza, muri ibyo bikoresho dusangayo ibyicungo.

Amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza abanyeshuri baho bagomba kwiga bari kureba ku mfashanyigisho, aho abarimu bagerageza gukora imfashanyigisho bazikoze mu bikoresho bigaragara mu bidukikije cyangwa se zimwe na zimwe bakazigura kugira ngo abanyeshuri bumve ibyo babigisha.

Amashusho ngero yiganjemo urukiramende, uruziga, kare ndetse n'ibindi usanga bikoreshwa iyo hari kwigishwa imibare mu mashuri abanza cyane cyane iyo bari kwigisha gushaka ubuso bw'ibyo binyampande cyangwa se umuzenguruko wabyo.

Iyo abantu bagiye mu matora bisaba yuko bajya ku murongonko kugira ngo umuntu umwe ajye atora namara gutora hakurikireho undi, ibingibi bikagabanya akajagari ndetse n'umuvundo.

Mu mashuri y'inshuke ni ho abanyeshuri bigira ibintu byinshi bitandukanye bituma bakanguka mu bwonko bwabo, bikazabafasha kwihangira imirimo ndetse no gutera imbere igihe baba barakuze.

Imfashanyigisho zikoreshwa iyo abarimu bari kwigisha cyane cyane abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke aho umwarimu agaragaza amafoto ndetse n'ibindi ari kwigisha kugira ngo umunyeshuri yige ibyo abona.

Inyuguti zifatika kuva kuri A kugeza kuri Z ndetse n'imibare kuva kuri rimwe kugeza ku ikenda ndetse na zeru bikoreshwa iyo hari kwigishwa abana biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugira ngo bage bakora ku mfashanyigisho babyige babyumva.

Uburezi bwateye imbere by'umwihariko mu karere ka Nyagatare, aho abanyeshuri baturuka mu mashuri y'incuke, bigira ahantu heza bakarinda barangiza amashuri y'ibanze bigira ahantu heza, ibingibi bigatuma bakomeza gukura, cyane cyane mu buhanga.

Ubugeni bugendanye no gushushanya ndetse no gusiga amarangi bukorwa n'abanyeshuri biga mu cyiciro cy'amashuri abanza umwaka wa mbere ndetse kugeza mu mwaka wa gatandatu.

Mu mashuri abanza abanyeshuri bigamo amasomo atandukanye, muri ayo masomo usanga muri iki gihe haba higanjemo isomo ry'ikoranabuhanga ndetse no gukoresha mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka telefone ndetse n'ibindi.

Imibare ni isomo ryigishwa mu mashuri abanza. Abarimu bayigisha baba bagomba kuba bayizi neza cyane kugira ngo bafashe abanyeshuri kugira nabo ubuhanga ndetse n'ubumenyi ngiro bwerekeranye n'iryo somo ry'imibare.

Amashuri yisumbuye abanyeshuri bayigamo bafata umwanya rimwe mu kwezi, bagahura bakagirana inama n'umuyobozi wabo kugira ngo abahe impanuro z'uko bagomba kwitwara kugira ngo bagire umusaruro utubutse mu masomo yabo baba biga.

Mbere y'uko amasomo atangira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bamanza guhurira mu kibuga kugira ngo bajye ku murongo bahabwe amabwiriza y'umunsi uko uraba uteye kandi baharirimbire n'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda.

Mu mashuri yisumbuye abantu biga neza binyuze mu bushakashatsi, ubwo bushakashatsi bugaragazwa n'uko bajya kwigira mu mazu akorerwamo isuzumiro nka laboratwari ndetse n'ibindi bitandukanye bakora.

Ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane buri mwaka, Abanyarwanda ndetse n'Abanyamahanga bibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Niyo mpamvu mu bigo by'amashuri nabo bibuka bagenzi babo bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo cyenda nakane mu gihugu cy'u Rwanda.

Ubushakashatsi bukunda gukorwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, ubwo bajya mu ishuri ryabugenewe barangiza bagakoreramo ubushakashatsi ku kintu runaka. Bikundwa gukorwa cyane n'abantu baba biga ibigendanye n'amasiyansi.

Amashuri ni ibikorwaremezo byubakwa kugira ngo bifashe abanyeshuri kwakira ubumenyi, ubumenyingiro ndetse n'indangagaciro babikomoye ku barimu baba babigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye iyo bari gukora ikizamini baba bagomba kureba ku kizamini cyabo hakirinda gukopera aho umunyeshuri iyo afashwe ari gukopera abihanirwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bagira igihe bahurira mu nzu mberabyombi kugira ngo bakorerwe inama, bababwira uburyo bakoresha bagira ikinyabupfura ndetse batsinda n'amasomo yabo ya buri munsi neza.

Umubare munini w'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, usanga amashuri amwe n'amwe ari ay'abakobwa gusa. Ibingibi babikora kugira ngo bahe umukobwa, indangagaciro z'abari nyarwanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bagomba kwambara impuzankano isukuye kugira ngo birinde umwanda, dore yuko n'Akarere ka Nyagatare gahora kabashishikariza kugira isuku aho bari hose ndetse no ku mubiri wabo.

Uburezi bufite ireme ni yo ntego y'amashuri yose mu Rwanda, abanyeshuri biga neza bakigishwa neza amasomo atandukanye kugira ngo bagire uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri iyo bize neza bagatsinda amasomo yabo, abayobozi babo barabahemba kugira ngo bitere ishyaka nabandi barumuna babo n'abo bige bazakurizeho nabo kuba abahanga, no gutsinda ibizamini neza.

Amashuri yisumbuye abanyeshuri bayigamo ba bemerewe kwambara amapantaro ku basore ndetse bakambara n'impuzankano imeze neza ifite kandi isuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo batsinze neza bahabwa impamyabushobozi y'ishimwe igaragaza yuko baba barakoze ikabashimisha ndetse ikabatera n'umuhate wo kwiga cyane kugira ngo bagere kure.

Uburezi niyo nkingi ya mwamba Abanyarwanda bashingiraho baba abantu b'abagabo, abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bishimira uburere bahabwa n'abarezi babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, buri gitondo bahabwa inama z'ukuntu bakwitwara neza ndetse n'ukuntu bagira isuku, aho bigira ku myambaro yabo ndetse no ku mubiri wabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bishimira gahunda y'imyigire bahabwa, dore y'uko baba bari kwiga cyane kugira ngo baziteze imbere, bateze imbere n'Igihugu cyabo, batibagiwe n'ababyeyi babibarutse.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyane cyane mu bigo by'abakobwa, baba batozwa kugira isuku ku mpuzankano yabo, ku mubiri ndetse naho baba bigira, higanjemo ku mpande z'amashuri yabo ndetse no mu mashuri yabo nyirizina.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyi ngiro, baba bifitemo impano cyane cyane izigendanye n'ubugeni, aho bashushanya ibintu bitandukanye kugira ngo bakuze impano zabo.

Amahugurwa atandukanye ahabwa abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse na kaminuza zigenga, aho babona inama zitandukanye ndetse ku myigire n'imyigishirize igezweho muri iki gihe.

Amashuri ya za kaminuza ndetse n'ubumenyin ngiro mu Rwanda, akorera mu nyubako ziba zubatse neza cyane, kuko ziba ari etaje afite amasuku, ku buryo uba ubona y'uko ari ahantu heza.

Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare ikorera mu nyubako nziza cyane, igaragazwa n'amasuku azengurutse iyo nyubako ndetse n'abahiga baba bameze neza kuko baba bafite isuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bakunda kugira amahugurwa, muri ayo mahugurwa bakaganira ku ngingo nyamukuru zigaragaza imyigire n'imyigishirize yabo mu mashuri makuru na kaminuza.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo urubyiruko rugaragara ku marembo y'inyubako ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, aho abantu biganjemo abasore n'inkumi, baba bari kujya mu masomo yabo, abandi bari gutaha.

Kaminuza zitandukanye ziba ziriho abanyeshuri bafite ubuhanga buhambaye dore yuko'uko bamwe muri bo baba biga no gukora ububumbyi butandukanye, aho babumba amavase ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gukoreshwa bari gutaka ndetse no gusigasira umuco nyarwanda.

Mu mashuri ya za kaminuza intebe abanyeshuri baba bicaraho ziba ari intebe zakozwe n'uruganda mu bikoresho bimwe na bimwe bya palasitike, aho usanga nta ntebe zikoze mu biti zihari ahubwo higanje izo muri ubwo bwoko.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse no mu mashuri y'ubumenyingiro bakunze kwihangira imirimo kandi bakaba bafite n'ubuhanga buhambaye, bamwe babumba inkono bakabumba n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe byakoreshwaga n'Abanyarwanda bo hambere mu rwego rwo gusigasira umuco w'Abanyarwanda.

Kugira ngo kaminuza yemerwe igomba kuba ifite aho ikorera kandi aho ikorera hakaba hari umwanya uhagije, aho guparika imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga kugira ngo abantu baje gusura iyo kaminuza ndetse n'abarimu babone ahantu baparika ibinyabiziga byabo.

Kaminuza yo mu burasirazuba bwa afurika, ifite icyicaro mu karere ka Nyagatare. Umubare munini w'abanyeshuri biga mu karere ka Nyagatare, biga muri iyo kaminuza, ifite inyubako nziza cyane, dore yuko ari etaje igeretse inshuro zigera kuri eshanu.

Abantu biga mu mashuri y'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza bafite impano zidasanzwe. Haba harimo abanyeshuri baba bafite impano yo gushushanya, aho bashushanya umuntu, ukamureba ukabona koko nyawe ukagira ngo ni ifoto bamufotoye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ibyerekeranye n'ubugeni, aba ari abahanga, dore y'uko bagira impano yo gushushanya, aho bashushanya umuntu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, wabireba ugasanga bifite ubusobanuro bukomeye.

Iyo umuntu yinjiye mu nyubako ya kaminuza ya Afurika y'iburasirazuba ishami rya Nyagatare, abonamo intebe zikoze mu buryo butangaje, kuko ziba zikoze muri palasitike kandi zikaba zifiteho n'ameza umuntu yandikiraho.